Inzego z'umutekano, polise iri gufasha abantu barohamye mu mazi, iri kubazamura, iri kubakura mu mazi ibazamura hejuru, kugira ngo bitabare ubuzima bwabo.

Ahantu hagaragara neza cyane, hejuru hari imisozi itari miremire cyane, hari kugenda indege hejuru mu kirere, indege isa neza cyane, ifite amabara y'umweru.

Kamera iri hafi y'umuhanda iteretse mu mucaca mu muhanda hari kugenda moto hari umuntu utwaye umugenzi. Kamera ishinzwe kureba umuntu uko ari gutwara ikinyabiziga cye niba ari neza.

Umuhanda mwiza cyane w' umukara hafi y'uwo muhanda hari ibiti birebire cyane by'icyatsi, hari ikindi kintu giteye aho ngaho kirimo amabara y'umukara .

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abagore benshi biteze ibitambara mu mutwe, hari umugabo uri imbere uri kubabyinira.

Indege nziza cyane iparitse ku muhanda w'umukara, indege irimo amabara y'umweru n'ubururu. Ni indege nini cyane.

Abayobozi bari mu nama, hari uhagaze ari gutanga igitekerezo cye. Harimo abambaye udupira tw'umweru, hari abambaye utw'umutuku bicaye mu cyumba bahuriye hamwe.

Abaturage benshi cyane bicaye hasi, hari ushinzwe umutekano uri kuvuga, abaturage higanjemo igitsina gore cyane, kurusha ibitsina gabo.

Umugore wambaye amataratara, afite agasatsi gakeya cyane, afite mikoro ari kuvuga igitekerezo cye. Hari abandi bantu bicaye mu ntebe.

Abantu benshi cyane, bicaye ku ntebe nziza cyane, bari ahantu hateguye neza, biganjemo igitsina gabo, n'igitsina gore.

Inama yitabiriwe n' abaturage benshi; abaturage bitabira ari benshi cyane biganjemo abantu bakuze ariko n' urubyiruko barimo ariko nibake cyane ugereranyije n' abantu bari mu zabukuru.

Abagore bicaye hamwe ni ahantu hateguye neza cyane hari umugore ufite ikayi n'ikaramu ari kwandika.

Abantu benshi cyane bateranye baturutse mu duce dutandukanye, harimo abagabo harimo abagore, hari ufite ijambo ari kuvuga ibintu uko abyumva ku giti cye.

Itsinda ry'abantu benshi cyane, harimo abagore, abagabo, bari mu nama, hari umugore uri kubwira igitekerezo cye afite.

Abantu benshi cyane, hari abari kurya imineke, hari n'abandi bafashe ku biseri by'imineke, ni imineke myinshi cyane.

Igiti kirekire cyane kinini cyane, gifite amashami menshi cyane. Hari akantu kari hagati muri icyo giti, ni akantu gatoya cyane.

Umukobwa mwiza cyane witeze igitambara mu mutwe wicaye hafi yinzu ihomesheje ibyondo, hafi ye hari akajerekani k'ane, afite agakoko ari kugosora, hejuru yambaye umukara.

Itsinda ry'abagore bicaye, hari abagore bicaye ku karago, hari n'abandi bicaye ku ntebe, bari kwiga kuboha. Ni abagore basa nkaho bakuze, ariko hari n'abandi bakiri bato cyane.

Umusaza ushaje cyane ufite imvi afite agakoni ari kunywa itabi, hejuru yambaye ubusa ahagaze hamwe.

Ikibindi kirimo umusururu, harimo uduti two kunywesha. Hari udutebe abantu bicaraho babiri, ikibindi giteretse ku karago.

Ingoma nziza cyane, ziteretse ahantu ziri zonyine, ni ingoma eshatu, hari imwe nini cyane, hari indi ikurikiyeho iri munsi yayo, hari n'akandi gato cyane cyane muri zose.

Abantu benshi cyane bari muri siporo, hejuru hari umugabo uri gusimbuka umugozi hari abicaye, hariho umutoza wabo ni ibintu bimeze neza cyane, hari abandi bari kureba bari kumufana. Umutoza wabo, yambaye umupira w'icyatsi ingofero y'umukara.

Umukecuru wicaye ku karago gashaje cyane, akarago karambitse mu byatsi byi'icyatsi, akenyeye igitenge, yambaye ishati yiteze n'ingofero, ari kuboha agaseke.

Dusabo turimo umusururu wazanye urufuro wamaze kubira, uri kumeneka ukagenda utemba, ugwa hasi wageze hejuru cyane.

Uduseke twinshi twiza cyane hari igishushanyo cy'umuntu, hari amahembe maremare cyane abiri ateretse ahantu hamwe.

Umuhoro w'umukara wegetse ku gikuta cy'umukara, ni umuhoro muremure cyane, hasi y'uwo muhoro hasa n'umweru aho urambitse.

Umunyeshuri uri mu cyumba uryamye wambaye ishati y'umweru, aryamye ku karago hejuru ye hari akibo hariho n'akantu ko kunyweramo, abantu bakunda kunyweramo.

Itsinda ry'abantu batatu bicaye ahantu bicaye batuje bari kuboha udupaniye utu dupaniye dusanzwe abantu baguriramo ibintu bitandukanye buri wese ari kuboha. Bamaze kurangiza kamwe.

Igisabo cyiza cyane, kinini cyane kimanitse, hejuru hari imigozi gifashe, kirimo amabara y'umutuku.

Abantu bari mu muhanda bari kwivuga, bafite amacumu, bambaye imyenda ya kera, hariho ibiti, hariho umuryango wo kunyuramo.

Itsinda ryabantu bari kuvuza ingoma, abandi bari kuvuza ingoma, hari inzu y'ibyatsi harimo abazungu n'abirabura.

Abagabo benshi bicaye bafite uducuma, ni abagabo bambaye neza cyane, buri wese afite agacuma, hari abarikunywa, hari abandi badufite mu ntoki, barishimye cyane.

Abagabo babiri bafite amacumu, buri wese afite icumu rye, bambaye imyambaro ya kera, bari kureba hasi, ni barebare, bambaye ibirenge, ni abagabo basa neza cyane.

Umukeka urambitse ku byatsi by'icyatsi, umukeka urimo amabara y'umukara, ibyatsi ni byatsi byinshi cyane biri ku mbuga.

Inkono isa n'umukara ni inkono nini atari nini cyane iteretse ku mashyiga. Harimo inkwi zibyibushye cyane n'inkwi ebyiri, rumwe rubyibushye urundi runanutse.

Umuntu w'igikara ufite umusatsi mwinshi, hamwe hari umusatsi ahandi nta musatsi uhari, mu mutwe hagiye hacamo umurongo no mu rundi ruhande umurongo umuntu ufite amatwi manini.

Umugore n'umugabo b'ibikara, basa nk'abantu barakaye, umugore afite umusatsi mwinshi cyane, umugabo nta musatsi afite, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, imbere yabo hateretse ibirahuri.

Inkongoro nyinshi ziteretse ahantu, ibisabo bimanitse, kumpande hariho ikirago, ni inkongoro zirenga icumi ibisabo ni bitatu.

Abakobwa beza cyane, bambaye imyenda myiza cyane, bikoreye uduseke twiza cyane, bose barambuye amaboko, barishimye cyane.

Abantu benshi cyane bari mu rutoki higanjemo umubare mwinshi w'igitsina gore ariko harimo n'igitsina gabo ni intoki nyinshi cyane.

Umukwe n'umugeni bambaye neza cyane, bishimye cyane bakundanye bari mu bukwe bwabo, bari ahantu hateguyewe neza cyane, hari ibikoresho bya kinyarwanda bisa neza cyane.

Inka eshanu nziza cyane zifite amahembe maremare cyane, ziri ahantu zinywera amazi, igihe zifite inyota ziri kunywa amazi meza.

Inka nyinshi cyane ziri kugenda ahantu hari ibyatsi birebire cyane, ni inka nyinshi cyane zose zifite amahembe maremare, zigaragara neza cyane, ziri kugenda mu nzira.

Abana benshi bari kumwe bambaye imyenda isa, hari abikoreye uduseke, abikoreye uduseke ni batatu, hari n'abandi baravuza ingoma, ni abana bishimye cyane.

Insinga ziteretse ahantu hasa neza cyane, ni imigozi ifite amabara abiri atandukanye, hari ibara ry'umutuku, hari irindi bara ry'umukara.

Inzu nziza cyane yubatse neza cyane iteye amarangi y'umuhondo, amadirishya y'umweru, ni ibiro by'Akarere ka Gakenke, hicaye abantu babiri bicaye bategereje abayobozi, ariko ni inzu nziza yubatse neza cyane.

Umuntu ufite urupapuro ari kwandika amagambo, hari imashini nziza cyane y' umukara, ari kwandikira ku meza ni ameza agaragara neza cyane harimo n' ibitabo.

Ahantu heza cyane hari ibiti byinshi cyane birebire ni amazu yubatse neza asakaje amabati y'ubururu afite ibyumba byinshi.

Abantu barenga batatu bose bambaye udupfukamunwa, bahagaze ahantu hasa neza cyane imbere yabo hari ibikarito bifunze hateretse n'imifuka.

Urusengero rwubatse neza cyane ruriho umusaraba hejuru ruri ahantu harunze itaka ry'umutuku. Rufite imiryango myinshi.

Urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye, rusakajwe amategura, hariho ikimenyetso cy'umusaraba, rufite inzugi ziteye irangi ry'icyatsi, n'amadirisha ateye irangi ry'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri hari abari hejuru muri etaje, hari abari kugenda munzira, hari uri guseka cyane yishimye, bambaye imyenda hasi umukara, ingutiya y'umukara, hejuru ishati y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nce zitandukanye, bari kugenda hari abagabo hari abagore, hari inzu iri imbere yabo hari imodoka ihagaze isa n'umukara, ni abantu benshi cyane.

Inzu nziza cyane, n'amazu asa neza cyane imbere yayo mazu hasi hari ibyatsi by'icyatsi, hari inzira banyuramo hagati yibyo byatsi.

Inzu nziza cyane, yubatse neza cyane, iteye amarangi meza cyane ,yanditseho ibiro by'intara y'Amajyaruguru . Iteye amarangi yiganjemo umuhondo ,harimo n,ay'umweru.

Amashuri yubakishijwe amatafari asakaje amabati, inzugi zaho ziteye irangi ry'ubururu, harimo ibirahuri mu matafari hateye irangi ry'umuhondo.

Intebe nziza cyane umuntu wunamye wambaye ikoti ry'umukara yambaye agapfukamunwa k'umutuku, ikoti ririmo n'irindi bara ry'ubururu ari gukurura intebe, intebe iriho umusego w'umutuku.

Urusengero rwiza cyane ruriho ikimenyetso cy'umusaraba, hafi yarwo hariho ibiti birebire cyane, hari abana bari hafi y'urusengero.

Inzu nziza cyane, yubatse neza cyane, ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ni inzu igaragara neza cyane, hafi yaho hari ibiti, hari umucanga usutse ku mpande.

Urusengero rwiza cyane, ni rurerure cyane, rwubakishijwe amatafari, rusakaje amabati y'ubururu, hari abantu bahagaze imbere yarwo.

Inzu nziza cyane, yubatse neza cyane, yanditseho Adeperi egirize de pantekote Nyakabanda. Hejuru hariho amatafari, higanjemo amarangi y'umuhondo.

Urusengero rwiza cyane rwubatse neza cyane, rufite imbuga iriho ibyatsi by'icyatsi hari inzira y'gitaka. Mu rusengero ruteye amarangi inzugi, n'amadirishya amarangi yasa n'icyatsi.

Inzu nziza cyane iteye amarangi y'umuhondo, hari abantu bari kuri iyo nzu benshi cyane, hari umugore uhetse umwana, hari umugabo wicaye uri kureba ibintu mu gitabo.

Inzu nziza cyane igaragara neza cyane yubatse neza cyane. Hari umusaraba uhari ku gikuta, hari abantu benshi cyane bari imbere y'inzu bambaye imyenda yiganjemo iy'umweruru n'iy'umuhondo.

Ahantu heza cyane hari abagabo bari kugenda mu nzira, hari undi wegereye aho ngaho wunamye, ushaka kwinjiramo hari urwego rwegetse kuri iyo nzu ni ahantu hasa neza cyane, hari n'ingorofani ziri hanze.

Abantu bicaye ku murenge. bategereje abayobozi. hari abahagaze hari abicaye buri wese ategereje kwinjira mu muryango agomba kwinjiramo koko hari imiryango itandukanye.

Abagabo benshi bicaye mu cyumba gitatse neza cyane, hari umugabo uri mbere wambaye ikoti ry'umukara, hari undi uhari ufite urupapuro rw'umweru.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe, hari abandi bahagaze biganjemo abantu bakuze, hari umugore uri hagati uri kuvuga.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bitabiriye inama, bicaye ku ntebe z'umweru, barakurikiye, ni ibintu bashishikariye cyane, imbere hari abayobozi, hari abayobozi bo mu nzego z'umutekano, n'abandi bayobozi muri rusange, abantu bitabiriye cyane.

Itsinda ry'abantutu benshi cyane bambaye udupfukamunwa, hari abambaye udupfukamunwa tw'ubururu, hari abambaye utw'umukara, hari n'abandi bambaye utw'andi mabara, hari umusaza uri kuvuga igitekerezo cye.

Inteko y'abaturage benshi cyane hari abicaye ku ntebe z'umweru, hari abicaye hasi ku mucaca, hari abatonze imironko, hari umugore uri imbere uri gutanga igitekerezo cye, hari n'abandi bari inyuma ye bategereje gutanga ibitekerezo byabo.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'umweru, hari n'abandi bicaye hasi ku byatsi, hari umugore ufite ijambo uri kuvuga igitekerezo cye, hari abandi bagabo bari inyuma ye,..

Abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo, abenshi bambaye udupfukamunwa hari umugabo ufite insakazamajwi, kugira ngo umuntu ufite igitekerezo avuge.

Moto nziza cyane iparitse yicayeho umuntu wambaye imyenda y'umukara, moto yiganjemo amabara hari umukara, hari umutuku, hari umuhondo, hari icyatsi, ni moto ifite isuku cyane.

Indege nziza cyane iparitse ku kibuga cy'indege, hari imodoka zihaparitse hari umuntu uri kuza uhahagaze, hari ibintu bipakiye muri iyi ndege, imodoka hari umuntu urimo uzitwaye ziparitse ku kibuga cyazo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nshe zitandukanye, bari kugenda mu muhanda, hari imodoka zihari, hari ibyapa biri ku muhanda bishushanyijeho abantu, hari abantu baremye itsinda bari kureba ibintu.

Imodoka nziza cyane iri kugenda mu muhanda yanditseho omega, hafi y'uwo muhanda hari ibiti birebire cyane, hari n'amapoto ajyana umuriro mu baturage.

Imodoka nini cyane, iparitse ahantu ifite amabara y'umukara, n'ay'umutuku, ifite amapine menshi cyane.

Imodoka nebyiri nziza cyane ziparitse, hari umukobwa mwiza cyane wambaye ipantaro y'umukara hejuru yambaye ijiri y'icyatsi n'ijiri y'akazi. Igaragaza umuntu ufasha umuntu utwaye imodoka kugira ngo imodoka ye ayitware imeze neza.

Indege isa neza cyane, indege iparitse ku muhanda, na wo usa neza cyane, hari umugabo uri kurira, ari kugenda, ari kujya muri iyo ndege, hari abandi bantu bari hanze y'iyo ndege, bambaye amajire y'icyatsi, hari n'umuhungu wambaye umupira w'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abana bari kwinjira mu modoka. Hari imodoka ebyiri, hari imwe abana bari kwinjiramo, hari n'indi iri kwinjiramo umuntu mukuru, bajya ahantu hatandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi n'imodoka ziri kugenda, imodoka zirimo abantu, abantu bari kugenda, ni ahantu harihmo nyinshi cyane, hari imitaka y'umuhondo n'andi mazu kuruhande.

Abantu babiri bari gutwara ibintu ku magare yabo, harimo umugore wishimye cyane, ubona ko ibintu ari gukora abikunze cyane, na we ari gusunika igare.

Ahantu haparitse moto nziza cyane, umumotari yicaye kuri moto yambaye agapira k'ubururu, afite ingofero y'umuhondo moto ye irimo amabara yumutuku numukara.

Imodoka iparitse iri kumena igitaka, hafi yaho hari umugabo uhagaze imodoka ifite amabara y'umutuku, imbere iri hafi y'ahantu hariho tibyatsi byicyatsi

Ahantu heza cyane hari umuhanda mwiza cyane, hari umugore uhagaze ku ruhande, afite igikapu cy'umukara, ahetse umwana, yamwiteje agashuka k'umweru, hari umugabo uri kwambuka umuhanda, hari umumotari utwaye moto, umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, imodoka y'umutuku, mu muhanda hagati hari uturongo tw'umuhondo, inyuma yayo hari indi modoka nayo yari kuza iri kuyisanga.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, hapakiyemo ibintu mu mifuka, hicayemo abantu benshi, hahambiriyeho ibiduki, hari umuntu wicaye hejuru, n'undi uri hejuru cyane,..

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari muri gare, baturutse ahantu hatandukanye, harimo abari gutega, harimo abari gutambuka bigendera, harimo imodoka abantu bari kujya binjiramo bagiye mu bice bitandukanye bitewe n'aho ushaka kujya.

Urujya n'uruza rw'abantu, imodoka iparitse harimo abantu bari gukuramo imifuka ya sima, hari undi muntu wambaye agashati k'ubururu hejuru arikumwe n'umwana wikoreye umufuka w'ibirayi ari kuwujyana aho agomba kujyana.

igare ryiza cyane riparitse ,nta muntu uhari uritwaye. Ni igare ryiganjemo umukara, amabara umweru n'umutuku. Riparitse ku nzu yi'nkarakara.

Imodoka nini cyane iri kugenda mu muhanda, umuhanda mwiza, imodoka ifite amabara y'umutuku, ay'umweru ifite n'ibirahuri n'amapine, hirya y'iyo modoka hari ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kwinjira muri gare ya Nyagatare, hariho umuntu ufite igare, wari utwaye igitoki, harimo ahantu abantu bicara bategereje imodoka.

Imodoka nziza cyane nini iri kugenda mu muhanda ukoze neza cyane, umuhanda mo hagati urimo umurongo w'umuhondo, hafi y'imodoka hari ibyatsi byinshi cyane n'ibiti bishinze.

Itsinda ry'abagabo, buri wese ari kuri moto ye, bose bambaye amajiri y'umutuku bambaye n'ingofero zidahuje amabara.

Imodoka ndende cyane iri kugenda mumuhanda. Imodoka ifite umweru hejuru ifite amabara y'umutuku n'umweru iri kugenda mumuhanda.

Imodoka y'ubururu ipakiye beterave, igapakira karoti, ipakiye ibyo kurya byiganjemo imboga, izo mboga zigiye ziraba ziri mu kantu.

Abantu benshi cyane, bane batwaye amagare, bari kugenda mu muhanda, hafi y'umuhanda hari imigano, hari abatwaye ibisheke, ibisheke byinshi cyane, hari abandi batatu, batwaye ibintu birimo umweru, ubona ko bananiwe cyane.

Imodoka itwawe n'umuntu iri kugenda mu muhanda, hirya hari ibiti birebire cyane, ipakiye inyanya nyinshi cyane ziri mu tuntu tune, buri kantu karuzuye cyane inyanya zisa neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari muri gare, hari imodoka ihari, hari abanyeshuri benshi cyane bahetse ibikapu mu mugongo bahagaze, hari abambaye imyenda isa hari n'abandi idasa.

Urujya n'uruza rw'abana benshi baturutse mu nce zitandukanye. Ni abana b'abanyeshuri bahetse ibikapu mu mugongo, bari kwinjira mu modoka.

Abagabo bane bambaye imyenda isa, bambaye bote zisa, bambaye amajiri asa, bambaye ingofero zisa, bahagaze imbere y'imodoka, ifite amabara y'icyatsi.

Umuntu uri kugenda mu muhanda, atwaye igare, ni umuhanda w'umutuku, hirya yaho hari ibyatsi by'icyatsi birebire, apakiye umufuka inyuma ye, ari gutwara igare, bimeze neza cyane,..

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu bice zitandukanye, bari mu byiciro bitandukanye, bari kwinjira mu modoka, bagiye ahantu hatandukanye, harimo abantu bakuze, harimo abagabo, harimo abagore, hari imodoka bari kwinjiramo.

Itsinda ry'abagore bari mu bwato bose biteze ibitambaro, bari kugashya, bari mu mazi, bari kugenda, hari ababyibushye, hari abananutse, ni abagore bameze neza cyane.

Moto zisa neza cyane, ziparitse ku muhanda nta bantu bahari bagiye, hirya yazo hari abantu bari kuzitegereza, bari kureba ukuntu zimeze.

Imodoka ebyiri zanditseho kenya, ziri kugenda mu muhanda, ziva ahantu hamwe zijya ahandi, zifite ibintu zigiye gutwara, hari amazu meza ya etage.

Itsinda ry'abantu bicaye ahantu hamwe bakoze siporo bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, amakabutura y'umukara, imipira y'ubururu.

Abantu benshi b'igitsina gabo bari kugenda mumuhanda mwiza cyane buri wese atwaye igare, bambaye ingofero z'amabara atandukanye, ariko bose bambaye imyenda y'ubururu.

Abagabo babiri, umwe ni umuzungu, undi numwirabura. Bari muri siporo barishimye cyane, umwirabura yambaye umupira w'ubururu, umuzungu yambaye umupira w'icyatsi, barabyishimiye cyane.

Abantu benshi cyane bicaye muri sitade, bari gufana abantu bari mukibuga bari gukina umupira, abakinnyi hari abambaye imyenda y'umukara, hari abambaye imyenda irimo imyeru, hari abari gufata umupira uri hejuru basa neza cyane.

Itsinda ry'abantu bishimye cyane bari guseka cyane, buri wese mumaso ye harimo ibyishimo byinshi cyane, batsinze bafite igikombe cyabo, bambaye imidari, barishimye cyane, batsinze, bafite intsinzi.

Umugabo w'igikara wambaye isengeri, afashe umupira mu ntoki, ni umupira wa balo, awufatiye hejuru ,ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri basa neza cyane, umwe yambaye ikabutura y'umukara, undi yambaye agapira k'umweru, undi yambaye ikabutura ijya kuba ubururu, bari muri siporo, umwana mutoya ari guseka, ni ibintu yishimiye cyane.

Itsinda ry'abagabo bishimye cyane, harimo inzobe, harimo ibikara, bambaye imyenda ya siporo, yiganjemo amabara y'ubururu n'umuhondo.

Stade yuzuyemo abantu benshi cyane, baturutse ahantu hatandukanye, hari abana hari abakuru ni abantu benshi cyane, bari mungeri zitandukanye hari abakinnyi baje gukina, abantu baje gufana.

Abana bicaye ni abana benshi bari kureba abantu bari gukora siporo, hari uwambaye umweru, hari n'abandi bambaye imihondo, abambaye imihondo bari kumukurura, uri kubona ko bari kumukurura cyane, bashaka kugira ngo bamwake umupira.

Ikibuga kiza cyane, gisa n'icyatsi, harimo imirongo y'umweru, hari abagabo bari mu kibuga, bari gukina umupira, hari abambaye imyenda y'ubururu, hari abambaye indi myenda y'andi mabara, hari umugabo wambaye imyenda y'umukara hose.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse ahantu hatandukanye, baje kureba abantu bari mu marushanwa y'amagare. Hari abantu bari ku magare bayatwaye bari mu umuhanda, hari imodoka iri inyuma yabo bari kureba n'abantu benshi cyane.

Abantu benshi cyane bicaye, hari abandi bari mukibuga, ikibuga kirimo amabara atandukanye bari gukina umupira. Hari abambaye imyenda y'ubururu, hari n'abambaye imyenda y'icyatsi.

Sitade abantu bicaramo baje kureba abantu bari gukina umupira, hari ikibuga abantu bakiniramo umupira sitade ifite amabara menshi cyane. Hari ubururu hari umuhondo, hari icyatsi. Hirya ya sitade hari amazu menshi cyane acucitse ari kugaragara.

Ibikombe byinshi cyane ,bisa neza cyane ,hari amabalo arambitse impande y'ibyo bikombe. Ni ibikombe birimo amabara y'umuhondo n'andi mabara.

Itsinda rya'bantu benshi bishimye cyane, bari mukibuga bari guhoberana bishimiye itsinzi, bahoze bari mu mikino hari abari guhoberana bababwira ko...

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye ku kibuga bari kureba abantu bari muri siporo, ni abakinnyi bambaye neza cyane hari abambaye imyenda y'umweru, hari abambaye imyenda y'umutuku, ni ibintu bigaragara neza cyane abantu babyitabiriye.

Ikibuga gisa neza cyane higanjemo amabara y'umutuku harimo ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara gikikijwe n'ibyatsi by'icyatsi n'ibiti birebire cyane.

Umuntu uri hejuru uri gukora siporo, ukurikiwe n'abantu benshi cyane, cyane kuko ni bantu benshi, hari abagabo babiri bari kumureba, nawe ari hejuru, ari gukora siporo, uri kubona ko ari ibintu bishimiye cyane.

Abakinnyi bane bari mukibuga, bari gukina umupira, bamwe bambaye umukara, abandi bambaye ubururu, uw'ubururu niwe ufite umupira, bari gucenga abambaye umukara.

Abakobwa beza cyane, basa neza cyane, bambaye neza cyane, bafite umupira bari gukina mukibuga. Hari abambaye imyenda y'ubururu, hari n'abambaye imyenda y'umuhondo. Bafite abafana bari ku bafana. Ni ibintu byiza cyane.

Umukinnyi ufite umusatsi mwinshi cyane afite baro mu ntoki, ari gukora siporo yambaye imyenda irimo ubururu n'umutuku harimo n'amagambo yandikishijwe umutuku ninyuguti ya gatandatu.

Abakinnyi babiri umuyobozi wabo umukobwa, abakinnyi bari gusinya mu ikayi mu kibuga harimo n'abandi bakinnyi bari gukina, umwe yambaye, umwe yambaye umuhondo abandi ubururu.

Ikibuga cy'abantu bakoreramo siporo, hari umugabo uri hagati y'icyo kibuga ari gukora siporo. Hari siporo y'amaguru hari n'iy'amaboko. Hari n'undi muntu wicaye hasi ari kumureba.

Umukinnyi w'umupira wambaye imyenda yimihondo myiza cyane. Uri kubona ko yishimye cyane, wambaye inkweto nziza cyane zumweru, zirimo n'umukara, n'amasogisi yumutuku, ari gukina umupira.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe nziza cyane, ikibuga kirimo amabara atandukanye, hari amabara y'ubururu, hari ay'umutuku n'irindi bara ry'umukara.

Abantu benshi cyane bari muri sitade bari gufana umupira w'amaguru, mukibuga hari abakinnyi barimo bari gukina umupira muri stade, hari abandi bantu barimo bambaye amajire y'icyatsi bari kureba abantu.

Umukinnyi ufashe umupira mu ntoki, ugiye gutsinda igitego, wambaye imyenda y'umuhondo irimo nubururu, hari umwana uri kugenda yambaye ubururu gusa, n'inkweto z'umukara bari mukibuga, bari gukora siporo.

Ikibuga cyiza cyane gisa neza cyane gisa n'icyatsi, hasi harimo imirongo y'umweru. Hari abasore babiri bambaye imyenda y'umweru, hari n'abandi benshi cyane bari inyuma yabo.

Umukobwa uri gukora siporo. Umusore uhagaze ari kureba, hari undi muntu wicaye wambaye agapfukamunwa. N'ahantu hasa neza cyane bakorera siporo hatatse amabara yiganjemo ubururu, umuhondo, hari umuntu wambaye ijiri y'icyatsi.

Imodoka nziza cyane, iri kugenda mu muhanda w'igitaka, hafi yaho hari ibiti by'icyatsi, iyo modoka iri kuzamura ivumbi, ni imodoka itatse neza cyane, irimo amabara atandukanye, harimo umweru, umutuku.

Abakinnyi bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafite imipira mu ntoki. Hari umwe uri kujugunya umupira hejuru, hari undi mugabo uri inyuma ye uri kumureba.

Abantu benshi cyane bahagaze kumurongo mu kibuga gisa n'igitaka. Bambaye hasi amapantaro y'umweru , hejuru bambaye udupira tw'umukara .

Ikibuga cy'umupira nta bakinnyi barimo, hari izamu ririmo amabara y'umutuku n'umweru. Ni ikibuga gisa neza cyane kirimo hagati umurongo w'umweru.

Umwana ari muri siporo arishimye cyane ari mu kibuga. Ku mpande handitseho Rwanda yambaye umupira w'ubururu ikabutura y'icyatsi. Ni ahantu hameze neza.

Abantu bari mu marushanwa y'amagare bari kugenda mu muhanda, abari kushanwa ni benshi cyane barasa neza cyane, hari abayobozi bari kureba ukuntu bagenda basiganwa, uwabaye uwa mbere uko bagiye bakurikirana.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ,uri hejuru yambaye inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru , yambaye ikariso yumukara ,yambaye n'agasengeri k'umweru.

Ikibuga gisa neza cyane, hari abantu barimo, bari gukora imyitozo ngororamubiri. Iki kibuga gikikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Abagabo benshi cyane bari mu kibuga bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari abambaye amabara yiganjemo y'umweru. Imbere n'inyuma yabo hariho ibiti by'icyatsi birebire cyane.

Abantu benshi cyane bicaye, bari kureba abantu bari mukibuga cy'umupira, ikibuga gisa n'icyatsi harimo imirongo y'umweru, ni abakinnyi bambaye imyenda itandukanye.

Imodoka nziza cyane iri kugenda mu muhanda w'igitaka, hari abantu bari mu muhanda bari kuyitangira bambaye amajiri y'icyatsi, harimo umukobwa harimo n'umusore, hari abantu bari ku ruhande bari kureba uko biri kugenda, ni ibintu abantu bitabiriye cyane.

Umwana ukiri muto cyane, utwaye igare yambaye ingofero y'umweru mu mutwe, ari kugenda mu muhanda mwiza cyane.

Abantu bari muri siporo, umwe afashe umupira ari kuwushyira mu nshundura, barishimye cyane, bambaye imyambaro y'umweru, hari abicaye ku ntebe bari kureba uko bari gukora siporo, harimo abazungu n'abirabura.

Abantu benshi cyane, bicaye bari gufana, baturutse mu nce zitandukanye, hari umugabo uri gukora siporo, wishimye cyane, watsinze, wambaye isengeri y'umukara, irimo icyapa kiririmo umweru imbere.

Abantu benshi cyane bicaye muri sitade, ni abantu baturutse mu duce zitandukanye harimo abana, harimo abagabo, harimo abagore. Ni stade isa neza cyane yiganjemo amabara y'imyeru.

Umuntu uri kugenda mu muhanda hari inzu irimo isakaje amabati yumutuku, ni inzu nziza cyane, hari ibihuru, hari ibiti, hari indabo z'umuhondo, ni ahantu hasa neza cyane.

Abantu bari mu nzira, bari kugenda mu muhanda w'umukara, umuhanda mwiza cyane. Hari umugore ufite agaseke, ukenyeye igitenge, hari n'undi wambaye ingofero, hirya yabo hari umwana muto.

Umuhanda ukoze neza cyane, utari uw'ibitaka, mo hagati harimo imirongo y'umuhondo, umuhanda ugaragara neza cyane, abantu bari kugenda mu nce zitandukanye, bajya ahantu hatandukanye.

Umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'indabo zicucitse nyinshi cyane. Umuhanda w'umukara harimo umurongo w'umweru hari n'ufite umurongo w'umuhondo.